Inzu mberebyombi yahuriwemo abantu benshi batandukanye n'ibyiciro by'imyaka bitandukanye. Abantu bahuriye aha bose baranezerewe banyweye ndetse bari no kubyina.

Ahantu heza umuntu yakwiyakirira mu gihe yaba akeneye icyo kurya cyangwa icyo kunywa, ndetse na babantu bakunda umipira ni ahantu barebera imipira kuko ni ahantu heza.

Intebe eshatu, ndende, n'akameza, biri mu nguni y'igikuta gikozwe n'amatafari, ndetse n'urugi ruriho ibirahure.

Urutonde runini ruriho ibintu ushobora gufata mu gihe watembereye n'umuntu, hariho ibyo kurya, hariho ibyo kunywa ndetse n'ibiciro byabyo.

Inzu ndende y'amatafari ahiye iruhande rw'iyo nzu hateretse akazu gakoze mu mbaho, imbere yako hari icyapa kinini gishinze mu byatsi kiriho icupa rya SKOL MALT riri mw'ibara ry'icyatsi.

Ikiyiko n'ikanya ndetse n'ibirahure, ni ibintu dukoresha buri gihe, urugero dukoresha ibirahure turi kunywa, naho ikiyiko tugikoresha turi kurya ndetse n'ikanya ni uko.

Inzu abantu bidagaduriramo abashaka kubyina, abashaka kunywa ngo baruhuke mu mutwe, abashaka guhura n'imiryango yabo, aha ni ahantu abantu bose bahurira bakaganira bakidagadura.

Abagabo batatu n'umudamu umwe bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa bitandukanye. Bamwe muri abo bagabo afite telefone igendanwa.

Icyapa kinini cu'umutuku n'umweru kigaragaza serivise zitangirwa ahantu ko bacuruza ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, inyuma yacyo hari ikindi cyapa kigaragaza inzu ndende ikorerwamo serivise z'ubuvuzi.

Intebe, akabati, amatara, biri mu cyumba kirimo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Intebe, firigo n'akabati gateretsemo amasahane amasorori arimo ibyokurya byiganjemo ibikozwe mu ifarini ndetse n'amatemusi ateretse hejuru y'ako kabati.

Aho abantu biyakirira mu gihe bafite inyota cyangwa se bafite n'inzara. Bimwe mu biri aha hantu byo kurya harimo amandazi naho ibyo kunywa harimo amata, harimo amazi, harimo n'imitobe itandukanye.

Icyapa kinini kigaragaraho ibicuruzwa bikorwa n'uruganda inyange. Bimwe mu bigaragaraho, hariho amazi yo kunywa, imitobe, amata, ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'amata yo kunkwa ndetse nibikomoka kumitobe bikorwa nuruganda rw'inyange.

Akabati karimo amasahani, amatasi, ibirahure, indobo, inyuma y'ako kabati hamanitse akandi kabati gateretseho amata ari mu bikarito ndetse n'amazi.

Umubyeyi ukuze w'umu mama wambaye imyenda y'ibitenge, uteruye isakoshi yicaye ku ntebe imbere ye hateretse ameza arambuyeho igitambaro gikoze mu gitenge, ndetse kurayo meza hariho amasahani: imwe iriho amandazi, indi iriho imyumbati, hari n'igikombe giteretse kuri ayo meza kirimo amata yo kunywa.

Ameza ateretseho indobo ebyiri, imwe muri izo ndobo irimo amandazi iruhande r'izo ndobo hateretse ikaramu y'ubururu.

Amazi nubuzima kuko tuyifashisha mubintu byinshi, koga, dutetse ndetse no mubirori. nkiyo twatashye amakwe usanga kenshi haba harimo amazi iyo twabatirishije dukoresha amazi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata yo kunywa akorwa n'uruganda rwitwa inyange.

Umuguzi n'umugurisha bari guhererekanya ibicuruzwa bigizwe n'amata, ibikomoka ku ifarini ndetse n'imitobe.

Umukobwa uri kuri terefone imbere ye hateretse ijage kumeza inyuma ye hari icyuma kibikwamo amata ndetse hari n'umugabo uri kuvomera amata mu ndobo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amandazi, imigati ndetse bifunze mubipapuro byabugenewe.

Ameza ateretseho utubido tubiri, igicuba ndetse iruhande rw'ameza hari abana babiri bicaye bari kunywa amata barikuyanywesha keke.

Urukuta rw'ubururu hasi hasashemo amakaro y'umweru hateretsemo amaze, indobo, harimo n'ibyuma bibiri byifashishwa mukubika amata.

Uburyo bwo kwakira amafaranga, ndetse no kohererezanya amagaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefone igendanwa.

Abagabo bakuze n'abasore ndetse n'abakobwa bari mu byiciro by'imyaka bitandukanye bahuriye ahantu mu nama.

Abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN, bari kwakira abaguzi b'iyo sosiyete baza babagana.

Utuzu tubiri ariko dukorera sosiyete ebyiri zitandukanye, ak'umuhondo wiganje gakorera emutiyene, naho ak'umutuku gakorera eyateri.

Abana bato, ababyeyi bakuze, bahagaze iruhande rw'abagabo babiri bari gusuhuzanya bambaye imipira y'umuhondo isa, irimo n'umukara mukeya, ndetse inyuma yabo hariho n'umutaka usa n'iyo mipira bambaye.

Icyapa kigaragaza ukuntu umuntu yakwishyura undi akoresheje terefone igenanwa, muri icyo cyapa kiganjemo amabara ane, ariko umuhondo niwo ugaragara cyane, harimo umuhondo, umukara, umweru, ndetse n'ubururu.

Uburyo bwo kwishyurana hagati y'umuguzi n'umukiliya ba sosiyeti ya emutiyeni, bukoreshwa buzwi nka momo peyi.

Abashinzwe imenyekanishabikorwa muri emutiyeni m, bari kugenda bereka abantu uburyo bushya bwo kwishyura ukoresheje telefoni ngendanwa.

Abantu babiri bari kubyina. Inyuma yabo hari umukobwa, ndetse iruhande rwabo hari mikoro nini cyane. Bigaragara ko aba bantu banezerewe, bishimye.

Urugo rw'amabuye, imbere yarwo haparitseho moto, iteretseho igisanduku kinini cy'umutuku, yanditseho yego. Ni imibare icyenda rimwe, icyenda rimwe, hejuru y'icyo gisanduku hateretseho amvirope y'umuhondo.

Telefoni ngendanwa umuntu ashobora kuyifashisha akora ibintu byinshi. Nk'aha ngaha, urabona ko umuntu yari ari kuyikoresha ari kureba icyerekezo cy'ahantu ashaka kujya cyangwa cy'aho ari.

Urubuga irembo, ni urubuga rugaragaraho serivisi zose za Leta. Urugero nk'aha harimo, mu muryango urabona ko ushobora kubonamo uko wabona icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi, serivisi zose za Leta zigaragarira mu irembo.

Inzu nini nziza imanitseho icyapa cyanditseho iposita, imbere yiyo nzu haparitse imodoka enye, hagati harimo moto zicayeho abazitwara.

Icyapa cya sosiyete yitwa Kasha kigaragaza ibikorwa byabo bakora, bakoreye kuri murandasi.

Icyapa cyamamaza serivise zitangirwa ahahantu harimo; gukodesha amazu ndetse no kuyagurisha, ibibanza, imodoka, intebe ndetse n'ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga.

Ibicuruzwa dufite hano mu iguriro ryacu ndetse n'ibiciro byabyo, harimo ifarini, amavuta, inanasi, ibishyimbo, beterave, ibitunguru, amashu, inyama , ndetse nn'ibindi byinshi.

Guhaha wikoreshereje ikoranabuhanga i Kigali, ni ibintu byoroshye kandi byizewe birinda umuntu gutakaza umwanya munini ndetse n'amafaranga mu ngendo.